Abagabo batatu bari mu nzu itangirwa mo serivisi z'ikoranabuhanga. Harimo ibikoresho nka mudasobwa, terefone, imigozi, bari kwiga ubumenyi butandukanye bw'ikoranabuhanga.

Abanyeshuri babiri umukobwa n'umuhungu bari gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga rya Mudasobwa. Bari kwiga ubumenyi butandukanye bw'ikoranabuhanga. bambaye impuzankano zigizwe n'amashati y'umweru, karuvati z'umukara n'umweru.